Ibishushanyo abana b'inshuke bakoresha iyo bari kwiga, ni ibishushanyo byiza biri mu mabara atandukanye harimo: ibiri mu mabara y'umutuku, ibiri mu mabara y'icyatsi, amabara y'umuhondo ndetse n'ibiri mu mabara y'ubururu.

Ubwoko bw'imyenda, bigaragara ko ubwo bwoko bukoreshwa n'abana b'inshuke. Kuko urebye uko bumeze ni ubwoko bw'imyenda bufasha abana b'incuke cyangwa se butuma abana b'incuke bamenya neza ibyo bari kwiga bikabafasha mu burezi bwabo.

Igishushanyo cy'ifi, urabona ko banditse ku gikuta cy'umuhondo ngo defishi, biragaragara ko aha ngaha ari ahantu higishirizwa abana b'incuke kubera ko bigira mu bishushanyo ni byo bibafasha kwibuka ibyo bize kurusha kubigisha ubandikira cyane.

Ibishushanyo biza by'amoko atandukanye kuko bigaragara ibishushanyo ni ibyigirwaho n'abanyeshuri b'inshuke, urabona ko n'ibishushanyo by'inyamaswa zigiye zitandukanye, bifasha abanyeshuri b'incuke, kwiga neza kandi bakagira ibyo bafata.

Igishushanyo cya skeleton gishushanyije i uruhande rw'umuryango ufite urugi rw'umukara handitse ngo P5; bigaragara ko ari umwaka wa gatanu w'amashuri abanza, bigaragara ko ari mu kigo cy'amashuri. Hirya hari inzu nziza y'amabati y'umutuku kandi iryo shuri rishushanyijeho ibindi bishushanyo.

Igishushanyo, ni igishushanyo bigaragara ko ari imbeba enye, hariho imbeba imwe ifashe igiti kirekire, izo mbeba niba zitari kwirukanaho bigaragara ko ziri kuganira ariko zisa n'aho ziri mu ruzitiro rwa kinyarwanda, uruzitiro rw'ibiti rugaragara neza.

Ahantu hagaragara nkaho ari mu bigo by'amashuri y'incuke. Urebye neza urabona hari ahantu habikwa amata cyangwa se hatunganyirizwa amata, abana biga mu mashuri y'incuke banywa iyo ari mugitondo.

Ndabona igikuta cyanditseho amagambo y'icyongereza yanditseho ngo nowazi aki intanashono sikulu ovu hosipitaliti andi tuwarizime, bigaragara ko aha hantu bakorera ubukerarugendo kuko hari ibintu byinshi cyane hari iki ikigamijwe kur'iryo shuri, intego n'ibindi.

Urabona ibishushanyo byiza ahari ibishushanyo by'ibipupe n'utundi dukinisho tw'abana, ibi ngibi biragaragaza ko aha ngaha ari ku cyumba, icyumba cy'amashuri aho bigishiriza abana b'inshuke kuko ibishushanyo by'aho bihari biragaragaza ko ari ibikinisho by'abana b'incuke bagomba gukinisha.

Aha ndabona ibitanda byiza bisashe neza, bigaragara ko ari ibitanda by'abanyeshuri biga bataha mu bigo, iruhande rw'ibyo bitanda ku bikuta hariho ibishushanyo by'abantu bahetse amabaga n'ibindi by'indabo bitandukanye.

Umwana mutoya cyane, bigaragara ko yiga mu mashuri y'incuke, imbere ye hateretse ubukombe butanu, mu bigaragara ko wagira ngo harimo irangi kuko afite igikoresho bakoresha bari gutera irangi, iruhande rwe hari ibishushanyo byinshi by'amabara atandukanye.

Ni ibishushanyo by'inzu ebyiri, ibishushanyo bihuriweho byose ni uko inzugi zabyo zisa n'umutuku urabona ko ibishushanyo bigaragara ko bifasha uburezi bw'abana b'incuke cyangwa se byashushanyijwe n'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Igishushanyo cyanditseho ngo Gasaro n'abajura. Bigaragara ko ari igishushanyo kibi cyangwa se inkuru ibwirwa abana. Hariho igishushanyo cy'umugabo n'ikindi cy'undi wambaye ingofero, hariho imbuto.

Matematikari iyo matematikari isa n'aho ari nshyashya kuko inyuma yaho hasa umweru ndetse irimo ibintu byose bikenerwa, harimo amarate harimo, ikaramu y'igiti, harimo amakereyo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri b'abana, abo banyeshuri bari mu byumba, ibyo byumba bigaragara ko ari ahantu hari ibikoresho by'umuco, kuko handitseho ngo ibikuta byanditseho ngo ubugeni biragaragara ko ari ibitabo cyangwa se isomero, ahantu abana baza gusomera ibintu bijyanye n'umuco.

Ikigo cy'amashuri kiza cyubakishije amatafari ahiye, giteye amarangi ,amadirishya n'inzugi n'umukara, amabati yacyo ni ubururu. Imbere yacyo urabona ko hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda rimanitse. Inyuma urabona ko hari ibiti birebire cyane bigaragara ko hari agashyamba.

Icyapa cyanditseho ngo tuseme gurupe sikolele rukomo, bigaragaza ko ari ikigo kiri muri rukomo cyitwa tuseme, handitseho ngo cadi furendi sikulu Nyagatare disitirigiti kiri mu karere ka Nyagatare, inyuma y'icyo cyapa hari ibiti, icyo cyapa gikikijwe na jaride nziza y'indabo.

Ibishushanyo by'ibiziga, hari igishushanyo kimwe, hari ikindi kimwe gifatiyeho icya kabiri kitarangiye, hari ikindi kimwe kirimo akandi gashushanyo mu nda, hari ibindi bibiri byegeranye, hari ibindi bishushanyije mu buryo bigiye birangira hari utudomo, ibishushanyo hagiye hariho imibare, bigaragara ko hari ibishushanyo bakoresha mu mibare.

Igishushanyo kiza, igishushanyo kiragaragara nk'aho ari inanasi, hejuru ifite ibitwe by'ubururu ariko iyi nanasi irasa n'aho kuruhande ifite akantu kameze nk'imashini.

Ikirere gisa neza cyiganjemo ubururu n'ibicu by'umweru bigaragara ko nta mvura iheruka kugwa, munsi y'icyo kirere harimo inzu y'amabati y'umweru, iriho amabara y'umweru, ubururu, umuhondo, inzu biragaragara ko ari ikigo cy'amashuri ndetse hari umuryango umwe uhagazemo umuntu.

Icyumba bigaragara nk'aho ari mu ishuri ariko urabona ko ari ahantu higira abanyeshuri bo mu mashuri abanza, urabona imeza ziriho ibikarito by'imodoka byikase, ibishushanyo bigaragara ko ari ibishushanyo byabajijwe abana mu mashuri abanza barebera.

Ni mu isanzure ry'ijuru ibara risa n'iryijimye ririmo n'ubururu, harimo imibumbe myinshi harimo umubumbe usa naho urimo uri hagati y'umugozi, harimo umubumbe munini cyane, hari undi mubumbe uri kwaka ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye imyenda ijya gusa n'iya gisirikare. Undi mugabo wa gatatu yambaye ishati yamakarokaro y'umukara n'umweru, ipantaro y'umukara. Iruhande rwabo hari abanyeshuri benshi bambaye imyenda isa. Y'amakabutura, inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, ikabutura y'umukara n'amashati y'ubururu.

Urabona ababyeyi batonze umuronko bigaragara ko baje mu nama y'abanyeshuri babo, urebye uko ibigo bimeze urabona ko ni ibigo bigaragara ko ari ibigo by'amashuri abanza, imbere y'ibyo bigo hagiye hariho ibiti imbere y'amashuri hari ibiti.

Imashini ibara karikireta kandi ku ruhande hari amarati nk'irate ndende n'irinini y'ikiziga imeze nka da kandi akamakasi, amapeso y'umuhondo n'ubururu, umutuku, umukara n'amakaramu ya bike.

Icyapa kiri mu kayira cyanditseho ngo Groupe Scolaire Rukomo Child Friendly school Nyagatare district. Icyo cyapa iruhande rwacyo hari ubwatsi, ubwatsi buteyemo indabo zijya gusa n'umuhondo.

Urabona ko inyubako nziza cyane umeze nk'ikigo cy'amashuri abanza. Urabona imbere yayo hari ikigega urebye neza hari n'imigezi yo gukarabiramo. Iyo migezi uyibaze neza urebeye ku ruhande rumwe ni imigezi itanu urebye neza kandi iteye amarangi, iteye amakaro y'umweru.

Hari ibyumba by'amashuri bigera kuri bitandatu biri kubakwa, imbere yayo hagasa abantu bahagaze, hari intebe zabajwe, hari ibiti bigifashe kuri ibyo bigo by'amashuri, hirya hari igiti kirekire cy'Inturusu.

Ni mu cyumba cy'amashuri urabona abana bambaye udupfukamunwa imbere yabo hari utumeza duteretseho mudasobwa n'amazi yo kunywa n'amakayi, biragaragara ko aba ari abana bo muri segonderi, bari kwiga ari bari kwigira ku ikoranabuhanga kuko bari gukoresha mudasobwa.

Urabona abanyeshuri bo muri Segonderi iruhande rwabo hari abagabo babiri bakuze, urebye neza umwe afite uruhara undi yambaye amataratara. Biragaragara nkaho bari kubaganiriza ariko ibyerekeranye n'uburezi ku mashuri yo muri Segonderi.

Umunyeshuri wiga muri segonderi yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, uko bigaragara ari imbere y'abandi banyeshuri bisa nk'aho hari ibyo ari kubasomera kuko imbere ye hateretse akameza kariho ikaye n'ikaramu.

Umwarimu ari imbere y'abanyeshuri bigaragara ko ari kubigisha, ariko bo imbere ya buri munyeshuri hari imashini bigaragara ko arigisha ikoranabuhanga, harimo abanyeshuri babiri bahagaze abandi bose baricaye harimo uwambaye agapira k'umuhondo.

Abantu bameze nk'abanyeshuri bari kuririmba, imbere yabo hariho umugabo usa naho ari mukuru bigaragara ko ari umwarimu wabo, nawe ari kuririmba kandi afashe mikoro, yambaye agasaha kameze nk'aho ari agasaha k'abakobwa bigaragara ko bari imbere y'urusengero.

Umunyeshuri wicaye mu ntebe, imbere ye hari imeza iriho imashini, umunyeshuri yambara agapfukamunwa, ishati y'umweru , agakomo k'umukara kuboko, n'ijipo n'ijipo y'umukara, umunyeshuri bigaragara ko hari ibintu arikureba muri mashini.

Abantu bambaye amapantaro ajya gusa umukara, bambaye amashati y'umweru harimo uwambaye agapira k'uburu kajya gu gusa umukara, n'uwambaye ishati y'umuhondo, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho banke ofu kigali, bigaragara ko bishimye cyane.

Ndabona intebe, intebe ziri munsi y'utumeza hejuru y'utwo tumeza hariho imashini n'imigozi ya koputa bigara ko ari ahantu ho muri kaminuza cyangwa se ahandi hantu habera inama kuko bigaragara ko ari ahasirimu.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umudamu umwe, bahagaze imbere y'abanyeshuri bicaye, abandi bahagaze, abanyeshuri bambaye imyenda yiganjemo amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'kigina, biragaragara ko ari inama bari kubagira.

Icyumba kirimo ameza ameza akikijwe n'intebe zicaye abanyeshuri, urabona ko hari umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru bigaragara nk'aho ari umwarimu wo muri segonderi, urebye neza urabona ko ari gukosora abanyeshuri akoresheje ikaramu y'ubururu.

Urebye neza urabona mu cyumba cy'amashuri, abanyeshuri bahagaze, harimo abahungu n'abakobwa, bambaye amashati y'umweru na karuvati zijya gusa umukara, harimo umunyeshuri wambaye ikoti usa n'aho afashe ijambo, afite icyo ari gutangaza uko bigaragara ni mu mashuri yisumbuye.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti, ku muhanda imbere ndahabona imodoka ebyiri, imbere y'imodoka ebyiri hari abantu bambaye amataburi y'umweru, imbere y'aba abanyeshuri bambaye udupira tw'ubururu hari n'amapantaro y'umukara, harimo abambaye udupira tw'umuhondo.

Ni abanyeshuri bari ku bigaragara ko bari guhabwa amabwiriza n'abarezi babo. Inyuma yabo urahabona ibiti birebire, urahabona amashuri. Bigaragara ko aya mashuri ari ayo muri segonderi n'abanyeshuri bakaba ari abanyeshuri biga muri segonderi.

Ndabona abantu bagaragara abanyeshuri, aho harimo abakobwa, harimo abicaye, harimo bahagaze, harimo abambaye amakanzu ya garaduwesheni, bambaye n'utugofero twiza cyane bisa n'aho bari munsi y'ikigango, imbere yabo hari abagabo babiri bambaye amashati y'umwe.

Igishushanyo cy'umugabo, uwo mugabo bisa n'aho bajya bamudoda cyangwa se yasataguritse ahantu hagiye hatandukanye, icyo gishushanyo biragaragara ko umuntu ari icy'umuntu wabayeho kera bashushanyije kugira ngo kigaragaze isura ye.

Icyumba cy'inama iki cyumba kirimo intebe zigiye zizengurutse ameza, aho ngaho hari umuntu uhagaze, abantu babiri bahagaze imbere bigaragara ko bari kuyobora iyo nama abantu bajemo ndetse bari gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga aribyo porojegiteri.

Nkuko bigaragara ni abanyeshuri, abo abanyeshuri bicaye ku dutebe, utwo dutebe imbere yatwo neza urebye urabona harimo utumereza, uko bigaragara imbere yabo hari regicara ndetse n'ikibaho, bigaragara ko ahangaha ari nko muri kaminuza cyangwa se mu mashuri y'imyuga.

Ibishushanyo byakondo, ndabona igishushanyo kijyakome mw'ubwato, ndabonaho igishushanyo kijya kumera nkaho ari imbabura ariko kandi gifite umwobo muremure, ndabonaho igishushanyo gifite umutwe umeze nk'uw'umuntu w'umwirabura.

Ubwoko bw'amakaro arambitse hasi bigaragara ko ari ahantu bacuruza amakaro ndetse bari kwerekana uburyo hari ubwoko bwinshi butandukanye, ayo makaro ateretse ahantu hasi bigaragara ko hari ahantu h'icyatsi ndetse hari ubwoko bwinshi bw'amakaro atandukanye.

Ibibumbano bisa neza cyane, ibyo bibumbano harimo icyamanyutse, hari n'ikindi gifite kimeze nk'imbabura gifite umupfundikizo wacyo, umuntu ashobora guteruramo n'intoki, iruhande hari ikindi kibumbano kimeze nk'ikibindi, no hirya y'aho hari ibindi bimbano bigiye bitandukanye.

Abantu bigaragara ko bari mu nama bambaye udupira tw'umweru abenshi, imbere yabo hagiye hateretse amacupa y'amazi ,amakayi ,n'amakaramu bigaragara ko bari mu nama bishimye, kandi bafite ibyo bari kwandikaho no kuvugaho.

Igikuta giteye irangi ry'umweru, harimo urugi rwa metalic rw'ibirahure, ruteye irangi ry'ikigina, iruhande y'urwo rugi urahabona aho bakiriza itara.

Ku rugi urabona ko urwo rugi rusa n'aho ari urw'icyatsi, ku ruhande hari igikuta kiriho amakaro ameze y'ikivuvu, urebye neza urwo rugi ruriho igishushanyo kimeze nka kagoma, bigaragara ko ari umunyeshuri wo muri kaminuza cyangwa se mu mashuri y'ubumenyingiro wagishushanyije.

Ni igishushanyo kimanitse ku gikuta cy'umweru urabona ko iki gishushanyo kimeze nk'aho ariy'imodoka kinini cyane, ifite amapine ku mpande zitandukanye. Urebye neza urabona ko igishushanyo bigaragara ko abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro aribo bagishushanyije.

Ndabona umuryango ufunze, uwo muryango uwurebeyemo urabona ubusitani bwiza cyane, urimo ibiti birebire ndetse n'indabo ziri hasi, uwo muryango uriho nimero, ko ari nimero rimwe.

Ikibumbano cya kinyarwanda kimeze nk'ikibindi, kirimo utu tujye dutambitse, giteretse hasi iruhande hari igikuta nacyo cyatarukiyeho ibyondo.

Umuhanda mwiza, umuhanda ukikijwe n'ubusitani, ubusitani buriho butatse amabara y'umweru n'umukara, mu busitani harimo amatara, harimo indabyo nziza ndetse uwo muhanda bisa n'aho werekeza ahantu mu biro.

Ahantu hari amapave n'akantu k'umutuku gafite amabara y'umweru, bakoresha mu kwiga imodoka, hari abantu bari kugenda kuri ayo mapave bane, harimo umusore umwe n'abakobwa batatu.

Urukuta, urwo rukuta ruriho akantu gasa n'aho ariko bamanikaho imyenda, ako kantu kari mu mabara y'ikigina gusa n'ubururu handitseho ijambo Sitari kandi hejuru y'aho hari akandi kantu, urwo rukuta rugaragara nk'aho ruteye umusenyi.

Ameza, ameza bavangiyeho sima, kuri ayo meza kandi hateretse agacupa kavamo ibirungo bikozwe mu nyanya, aho mu bigaragara aya meza, iyi sima iteretse ku meza ni yo bari bari kubakisha.

Hari igishushanyo cyiza. Igishushanyo kiriho ibiti bibiri, hagati yabyo hari n'inyamaswa imeze nk'aho ari impala. Urabona ko ku ruhande hari indi nyamaswa iri gutunguka. Biragaragara ko igishushanyo ari abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro, bahishushanyije.

Uurabona icyumba kimeze nk'aho ari icyumba cyo muri kaminuza ariko kuko bigaragara n'aho abanyeshuri biga, ubumenyi ngiro, icyumba bakoresha bari kubaza, turabonamo imbaho ndende zimeze nk'aho ari inzego, turabonaho intebe z'ubururu, zanditseho amagambo y'umweru, inyuma yaho turahabona n'indi ntebe y'umutuku.